Mu Rwanda tuhasanga ibitaro byinshi, tuhasanga ibitaro byinshi bigiye bitandukanye harimo ibitaro bikuru ndetse n'ibitaro bito. Muri ibyo bitaro tuhasangamo ibitaro bya Ruli, ibitaro byakira abantu benshi cyane kandi bivura indwara zigiye zitandukanye.

Mu rwanda kandi na none ubuvuzi bumaze gutera imbere, aho ibikoresho bigamije korohereza ubuvuzi bw'abantu bimaze kwiyongera, kandi bikaba bifasha abanyarwanda guhabwa serivisi z'ubuvuzi mu buryo bwiza, bwihuse kandi bworoshye.

Mu bijyanye n'ubuvuzi mu Rwanda, hari ibintu byinshi bifasha abantu, by'umwihariko tuhasanga amafarumasi menshi acuruza imiti, ku buryo umurwayi iyo yandikiwe imiti, kuyigeraho, kuyibona, biba byoroshye kandi ku giciro kitari hejuru cyane.

Hari ahantu henshi dusanga imiti i gakondo, imiti gakondo ikaba yifashishwa n'abantu mu gihe bahuye n'uburwayi bakaba bayahira, usanga ari ibimera kenshi ikahirwa, igatunganywa mu buryo bworoshye, umuntu akaba yayinywa agakira indwara arwaye uburwayi bwe.

Mu rwanda hari imiti myinshi igiye itandukanye y'ibyatsi. Muri yo harimo iyo abanyarwanda bazi benshi, hari n'igiye izwi na bake, bityo abavuzi gakondo barayifashisha, kugira ngo bafashe abantu gukira indwara baba barwaye.

Imiti y'ibyatsi imiti gakondo ni imwe mu miti ikoreshwa mu rwanda yifashishwa mu kuvura indwara' zitandukanye. Bigafasha abanyarwanda gukira indwara zitandukanye bakagira ubuzima bwiza.